Abantu bane biricaye bambaye imipira isa bafite imisatsi mike umwe muri bo n'igitsina gore, bafite amakaramu bari kwandika bari mu mahugurwa, imbere yabo bafite amacupa y'amazi yo kunywa.

Abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore bamwe bambaye amakoti y'umukara bicaye kumeza bafite amacupa y'amazi yo kunywa amakaye, amakaramu n'amaterefone bamwe bakaba bateye intoki hejuru.

Abagabo bane bicaye ku meza, babiri bambaye ikote, bose bakaba bambaye amadarubindi, umwe akaba yambaye n'ingofero, bakaba bicaye imbere ya za mudasobwa bari mu nama.

Ikiganiro ku by'ingenzi mu misoro iri kuvugwa muri iyi minsi, Batamuriza Hajala komiseyori w'imisoro y'imbere mu gihugu, Mbera Emi komiseri wungirije ushinzwe ubugenzuzi bw'umusoro.

Irinde abatekamutwe, nihagire uguhamagara akubwira kureba amafaranga usigaranye kuri konti yawe, nyamuneka tekereza kabiri mbere yo gushyiramo umubare wawe w'ibanga, nihagire uguhamagara usabwe kumenyesha inzego zibishinzwe ariyo Rura cyangwa se Ribu.

Umuhanda uri mo binyabiziga bitandukanye harimo na moto, moto ikaba ifite agasanduku k' inyuma gafite ibara ry'icyatsi kuruhande hari ibiti n'ibyuma bigiye bisakaza amashanyarazi hirya no hino.

Igisahani cyakira amashusho guturuka ku byogajuru mu kirere, inzu ifite ubusitani, imigozi y'amashanyarazi igenda hirya no hino, ikinyabiziga giparitse hanze y'inyubako.

Umukobwa w'inzobe wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, akaba afite inzara zisize umutuku, akaba yambaye agapfukamunwa k'umukara, ari guhaha n'umugore wambaye ishati y'umukara.

Umugore ari kuvugana n'umugabo uri ku ruhande rwe, wambaye amarinete, ishati y'ubururu, kavate, n'ikote. Imbere yabo bakaba bafite agacupa k'amazi yo kunywa, bari mu nama.

Abanyeshuri benshi bahagaze bafite inyandiko mu ntoki zabo, bamwe bakaba bambaye amashati y'umweru, abandi bambaye imipira y'ubururu, imbere yabo hakaba hicaye umusirikare n'umupolisi, abandi bagabo babiri bambaye amakositime, hagati yabo harimo umugore.

Umugabo n'umugore baricaye bose bafite amakaramu n'amakaye bari kwandika, bakaba bafite amacupa y'amazi yo kunywa abegereye, umugore akaba yambaye amadarubindi afite n'igikapu kuruhande rwe.

Abantu b'ingeri zinyuranye abagore n'abagabo, batonze umurongo bari kwinjira mu nyubako isakaje amabati y'ubururu, ikaba ifite inkingi ziriho ibitambaro bifite amabara ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Aba baturage bari kwamamaza ishyaka rya girini pati umwe muri bo afitetiye igipapuro kiriho ishusho y'umukandida wabo dr habineza frank aba ari ku itariki cumi n'eshanu z'ukwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umukozi w'umurongo w'itumanaho wa emutiyeni uri hafi y'imodoka zitwara abantu ni'ibintu umugabo uri kwambika umwana mutoya imyenda, ikigega cy'amazi gifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bigenda binyuranye, harimo ibitwara abantu n'ibirwa ibintu, ku ruhande hakaba ari abanyamaguru babiri bari gutambuka imbere y'ibiti birebire bisa icyatsi, umunyamaguru umwe akaba ari umugore wikoreye indobo.

Umuhanda urimo abanyamaguru babiri, umwe yikoreye imizigo, harimo na moto ebyiri imwe itwara abagenzi n'imodoka imwe itwara imizigo isa umweru ifite umushoferi wambaye umupira w'icyatsi.

Inyubako nini isakaje amabati atukura ikaba ifite n'imireko y'amazi, imbere yaho hari umuhanda hirya y'umuhanda hari intebe yo kwicararaho, intebe iri hafi n'ikibuga kirimo abana bari gutera umupira.

Inzu zigiye zitandukanye zifite imiryango minini yo hanze ifite amarange y'umukara, zikaba zifite ibiti ku irembo biteye bifite amabara agiye anyuranye arimo n'ay'icyatsi, umuhanda ufite umuyoboro ucamo amazi.

Inyubako igeretse ifite ibinyabiziga bigiye bitandukanye, biparitse ku ruhande n'ikinyabiziga gitwara abantu gitegereje umugenzi, n'abanyamaguru bari gutambuka bo ku ruhande.